Inyubako nziza yubatswe mu buryo bugezweho aho ifite ibirahure byijimye ndetse ikaba ari inyubako ikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye bijyanye n'imitunganyirize y'imbuto z'ubuhinzi.

Umuntu uri kugenda mu murima we uhinzemo amashu, aho ari kugenda ayatera umuti, ahetse ipombo yambaye agapira n'ikabutura ndetse na bote n'ingofero y'umukara.

Umugabo uri mu murima we w'umuceri, akaba ahetse ipombo yabugenewe, akaba ari kugenda yuhira umuceri. Ni byiza cyane ko, ubuhinzi bw'umuceri bwakomeza gutezwa imbere cyane muri iki gihe.

Muri iki gihe ubworozi bw'amatungo bukomeje gutera imbere cyane, aho haje n'imiti igiye itandukanye yifashishwa mu kuvura aya matungo igihe runaka aba yagize ikibazo.

Umugore uri mu murima uhinzemo intoryi akaba ari kugenda azitera umuti akoresheje igipombo yabugenewe kugira ngo arebe ko zamera neza, zikazamuha umusaruro mu gihe kiri imbere.

Umugabo uri kugenda mu murima we w'ibigori aho yambaye isarubeti n'agapfukamunwa, akaba ari kugenda abitera umuti kugira ngo ibigori bye bimererwe neza bitazafatwa n'indwara ya nkongwa.

Umugore uhagaze ahantu ku mazi akaba yashyize indobani mu mazi ategereje ko amafi ajyamo, bikaba bigaragara ko na we ari umurobyi ndetse yashoye mu mwuga w'uburobyi.

Muri iki gihe rero uburobyi bw'amafi busiga bwarateye imbere, aho hari abantu basigaye bakora imishinga y'uburobyi, bakita ku mafi yabo hanyuma akabaha umusaruro.

Abagore nabo basigaye baritinyutse aho basigaye bakora imirimo igiye itandukanye abagabo bakoraga, aho basigaye bakora umwuga w'uburobyi ndetse no gutwara ubwato, aho babikoresha bagenda mu biyaga.

Uburobyi bw'amafi bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe hari abantu basigaye baroba amafi barabigize umwuga, bakayitaho maze akazabaha umusaruro igihe bayajyanye ku isoko.

Umugabo wambaye agapira k'umukara ndetse n'isaha ku kuboko, akaba yambaye ipantaro ijya kumera nk'ikoboyi, akaba ari umurobyi, ahagaze imbere y'icyuzi.

Uburobyi bw'amafi bumaze gutera imbere cyane mu Rwanda, aho muri icyo gihe hari abantu basigaye baroba barabigize umwuga, aho baroba amafi bifashishije ibikoresho byabugenewe, barangiza bakaza kuyagemura mu isoko.

Ubuhinzi bw'ikawa bukomeje gutera imbere cyane, aho iyo umuntu yazisahabuye azihubika zamara gutukura zose akabona kuzigemura. Uyu rero yasaruye imbisi ndetse n'izitaratukura azishyira hamwe.

Ubuhinzi bw'ikawa bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe hari abahinzi bahinga ikawa barabigize umwuga bakayitaho hanyuma ikabateza imbere bakaba abakungu babigize umwuga.

Ubuhinzi bw'ikawa na bwo bukomeje kwitabwaho cyane mu Rwanda aho muri iki gihe hari abahinzi babigize umwuga, aho bagenda bagahinga ikawa yakwera bakayisarura bakayitwara ahabugenewe bakayigurishayo.

Ubuhinzi bw'icyayi bukomeje gutera imbere cyane muri iki gihe, aho hari abantu basoroma icyayi babigize umwuga bakaba bagenda bagisoroma, barangiza bakajya gukigemura mu nganda.

Ubuhinzi bw'icyayi bwateye imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe hari abantu basigaye bagihinga barabigize umwuga, bakacyitaho hanyuma, hanyuma kikazabateza imbere mu gihe kizaza.

Ubuhinzi bw'ikawa bugenda burushaho gutera imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe hari abantu basigaye bahinga ikawa barabigize umwuga bakayitaho hanyuma nayo ikabaha umusaruro bakabasha kwiteza imbere.

Umugabo uri kugenda mu murima wahinzemo ibihingwa ngengabukungu bizwi nk'icyayi, akaba ari kugenda abyitaho kugira ngo arebe ko byazamuteza imbere maze agakirigita ifaranga.

Ubuhinzi bw'ikawa bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe abantu basigaye bahinga ikawa barabigize umwuga, hanyuma bakayitaho ikazabateza imbere cyane.

Udukarito tugiye dutandukanye turi mu mabara y'umutuku ndetse n'ayandi, tukaba turambitse ahantu mu inzu bigaragara ko turimo imiti yifashishwa mu kuvura amatungo agiye atandukanye.

Agashashi karimo umuti uvura inka, aho gashushanyijeho inka nziza ya kizungu iri kurisha, ifite icebe rinini, ku buryo yakamwa nka litiro icumi ku munsi.

Uducupa tugiye dutandukanye, turimo imiti yifashishwa mu kuvura amatungo, aho iyi miti ari ingenzi cyane ku buryo umuntu uwo ariwe wese uyikeneyene, ayifashisha hanyuma ikaba yamuvura.

Udufuka turimo umuceri bigaragara ko uyu muceri wasaruwe mu mirima igiye itandukanye. Ni byiza cyane ko nk'abahinzi b'umuceri mu Rwanda, bazajya bahabwa nabo umuceri bakirira.

Agashashi kari mu mabara y'umweru n'umutuku ndetse n'icyatsi kakaba kanditseho amagambo agiye atandukanye ari mu rurimi rw'Icyongereza kakaba karimo umuti uvura amatungo yo mu rugo.

Ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu buvuzi bw'amatungo bikunze kuba biri ahantu mu isoko, aho ujya kubigura bakabiguha, hanyuma ukajya kuvura amatungo yawe.

Ubworozi bw'amatungo bukomeje kurushaho gutera imbere cyane, aho muri iki gihe hari abantu babigize umwuga basigaye bacuruza iyo miti y'amatungo iba iri mu ducupa tugiye dutandukanye, wayikenera ukagenda bakayikugurisha.

Iduka ricururizwamo imiti igiye itandukanye yifashishwa mu kuvura amatungo. Aho iyo miti iba mu ducupa tugiye dutandukanye tw'umweru ndetse n'umuhondo. Tukaba ari twiza cyane.

Amacupa menshi agiye atandukanye akaba arambitse ahantu hamwe. Aya macupa rero aba arimo imiti igiye itandukanye, yifashishwa mu kuvura amatungo igihe aba yagize ikibazo.

Inyubako nziza yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, aho iyo nyubako icururizwamo imiti igi itandukanye y'amatungo, aho iyo miti iri mu dukarito tugiye dutandukanye, turi mu mabara y'umweru ndetse n'umutuku.

Mu iduka ahacururizwa amoko agiye atandukanye y'imiti yifashishwa mu kuvura amatungo, aho haba harimo uducupa tugiye dutandukanye turimo iyo miti, waba uyikeneye ukaza bakayikugurisha ku mafaranga make cyane.

Umugabo wambaye ga z'umukara akaba ari mu gikorwa cyo guhinga ibiti, afite urugemwe rw'igiti cya gireveriya ari kurutera ahantu mu kibara, iruhande rwe hahagaze umusirikari w'umugabo.

Ubworozi bw'inka bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe hari abantu basigaye borora inka barabigize umwuga, bakaziha ibyokurya byazo, zikarya, hanyuma zikamererwa neza.

Umugabo ufite indobo ari gukamiramo amata, aho ari kugenda akama inka ya kizungu, agenda akama vurugu vurugu, amata yiyongera kugira ngo amuteze imbere.

Umugore uri ahantu mu murima uhinzemo inaanasi akaba ari kugenda azitaho ari kumwe na mugenzi we wambaye agapfukamunwa ndetse n'undi mugabo wambaye agapfukamunwa bigaragara ko ari mu gihe cya Covid cumi n'icyenda.

Abagore bateraniye hamwe mu murima uhinzemo umuceri bakaba bari kugenda bawubagarira, aho bari kuranduramo ibi ibyatsi bagenda babaga ku ruhande kugira ngo umuceri umererwe neza.

Ikawa ni igihingwa k'ingenzi cyane gikunze kuba kiri ahantu mu mirima igiye itandukanye. Iyo umuntu agihinze akakitaho, kimuha umusaruro maze akabasha kwiteza imbere.

Umurima uteyemo imyumbati myinshi cyane ukaba uri ahantu ku muhanda, bigaragara ko iyi myumbati ari ingirakamaro cyane ku buryo iyo wayihinze iguteza imbere.

Ubuhinzi bw'ibigori burushaho gutera imbere cyane uko bwije n'uko bukeye kuko busigaye buha umusaruro umuhinzi wabwo maze agatera imbere agakirigita ifaranga akaba umukungugu ukomeye cyane.

Ubuhinzi bw'ibirayi bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda aho muri iki gihe hari abantu basigaye bahinga ibirayi barabigize umwuga, hanyuma babisarura bakabijyana ku masoko bakabigurisha.

Umurima uteyemo amashu menshi cyane, ariko ayo mashu akaba yararumbye, bigaragara ko atitaweho, nyirayo agiye kwiciraho kubera ko yahombye ndetse akaba agiye gusubira ku isuka.

Umurima uhinzwemo amoko agiye atandukanye y'imboga aho muri izo mboga twavugamo nka dodo, izi ni ingirakamaro cyane kuko umuntu uzihinze zibasha kumuteza imbere maze agasezera ku bukene.

Ubuhinzi bw'ibishyimbo busigaye bwarateye imbere cyane, aho muri iki gihe hari abantu basigaye bahinga ibishyimbo mu myobo, bagacukura icyobo bagashyiramo ibishyimbo, hanyuma bagashyiraho n'ifumbire bikazatanga umusaruro uhagije.

Ubuhinzi bw'imboga bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe hari abantu bahinga imboga barabigize umwuga, bakazitaho maze zikabateza imbere, bagakirigita ifaranga, binyuze mu mwuga wabo.

Ubuhinzi bw'ibirayi bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda aho muri iki gihe hari abantu basigaye babihinga barabigize umwuga, bakabyitaho hanyuma bikazabateza imbere cyane.

Ubuhinzi bw'imbuto nabwo bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe hari abantu basigaye bazihinga barabigize umwuga, bakazitaho hanyuma zikazabateza imbere bakabona umusaruro uhagije.

Umurima w'ibigori uteyemo amoko agiye atandukanye y'ibigori, aho ibi bigori ari ingirakamaro cyane kuko umuntu iyo abihinze akabyitaho, bibasha kumuteza imbere cyane.

Ubuhinzi bw'insina bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe hari abantu bahinga urutoki barabigize umwuga ndetse bagahingamo n'ikawa, kugira ngo bizajye bibaha umusaruro.

Abantu benshi cyane bagiye batandukanye biganjemo abagabo, bakaba bari kugenda ahantu mu ishyamba, bigaragara ko bari mu gikorwa cy'ubukerarugendo, aho bagenda basura amashyamba menshi agiye atandukanye.

Ishyamba ryiza cyane rinini, riteyemo amoko agiye atandukanye y'ibiti, aho ibi biti ari ingenzi cyane kuko bitanga umusaruro ku bahinzi babyo, maze bagatera imbere bagakirigita ifaranga.

Agasozi gateyeho ishyamba rigari, aho iryo shyamba ririho amoko agiye atandukanye y'ibiti, ibi biti rero bikaba ari ingirakamaro cyane, ku buryo iyo umuntu abiteye bibasha kumuteza imbere, maze agakirigita ifaranga.

Ikiyaga kiza cyane kandi kinini, aho gikikijwe n'ishyamba riteyemo amoko agiye atandukanye y'ibiti, ibi biti rero ni ingirakamaro kubera ko bituzanira umwuka mwiza duhumeka ndetse bikaduha n'imvura.

Abantu benshi cyane bagiye batandukanye, bahuriye hamwe mushyamba mu gikorwa cy'umuganda aho bari kugenda batema ibyatsi bigiye birimo, harimo abasirikare ndetse n'abaturage, umuganda rero ni ingenzi.

Ahantu hari agasozi keza cyane karekare, gafite ibiti biteyemo byinshi cyane kandi byiza, aho ibi biti ari ingirakamaro cyane kubera ko byifashishwa mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Ishyamba riteyemo amoko menshi agiye atandukanye y'ibiti ,aho ibi biti ari ingenzi cyane kuko bibasha kudukururira imvura ,ndetse bikaduha n'umwuka mwiza duhumeka.

Ibiti binini cyane biteye ahantu mu ishyamba, ibyo biti bikaba birimo ibyimejeje ndetse n'ibiterano, bikaba ari ingirakamaro cyane, ku buryo umuntu wabihinze bibasha kumuteza imbere.

Umurima uhinzemo amoko agiye atandukanye y'indabyo, aho izi ndabyo umuntu wadehinze zimugirira umumaro cyane cyane ko iyo abantu bagiye gukora ubukwe, baza kuzigurira aha ngaha.

Abantu benshi cyane bagiye batandukanye bateraniye hamwe mu murima uteyemo ibikapuca bakaba bari kugenda babyitaho, bigaragara ko bategereje ko byazabaha umusaruro mu minsi iri imbere.

Abantu benshi cyane bahuriye hamwe biganjemo abagore babiri ndetse n'umugabo umwe wambaye amadarubindiC, bakaba bari mu murima w'amashu, aho bari kwerekana umusaruro wavuye mu mashu yabo ko uzabateza imbere.

Ubuhinzi bw'avoka bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe hari abantu basigaye batera avoka mu masambu yabo barabigize umwuga kugira ngo zizabateze imbere.

Uhinzi bw'imboga n'imbuto bukomeje gutera imbere cyane, aho muri iki gihe hari abantu basigaye bazihinga barabigize umwuga, bakazitaho, hanyuma zamara gukura bakagenda bazigurisha.

Ubuhinzi bw'indabyo bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe hari abantu basigaye bahinga indabyo barabigize umwuga bakagenda bazitaho hanyuma zikazabateza imbere mu gihe kizaza.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe hari abantu basigaye bahinga barabigize umwuga, bagahinga imbuto nyinshi cyane z'amoko agiye atandukanye zamara kwera bakazigurisha.

Umugore uri mu murima we uhinzemo ibivumba akaba asutamyemo bigaragara ko uwo mugore akora umwuga w'ubuhinzi bw'ibijumba, ari kwifotoza yishimye bigaragara ko atewe ishema n'akazi ke.

Ubuhinzi bw'imboga bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda aho haje uburyo bushya bwo kuhira izo mboga, hifashishijwe imashini zigenda zizenguruka maze zigatera amazi hose.

Umugabo uri mu murima we uteyemo imboga, akaba ari kugenda azuhira, akoresheje agakoresho k'agakiza, agenda adaha amazi, ayamena muri izo mboga kugira ngo zimererwe neza.

Umugabo uri mu murima we aho afite umupira wabugenewe, akaba ari kugenda yuhira imboga n'imbuto ze yateye muri uyu murima, nubwo zitari zagera igihe cyo kumera.

Umugabo uri mu murima uhinzemo ibigori akaba ari kugenda abyuhira akoresheje umupira wabugenewe, aho agenda atongerezwa ku mababi y'ibigori kugira ngo bibashe kumererwa neza cyane.

Umuntu uri mu murima we uhinzemo intoryi, akaba ari kugenda azuhira akoresheje umupira wabugenewe. Ni byiza cyane kwita ku bihingwa byacu mu gihe k'izuba kugira ngo bitazaturumbira.

Umugabo uri ahantu mu murima yahinzemo imboga akaba ari kugenda azuhira yifashishije ibikoresho byabugenewe, hiya y'izo mboga hakaba hari ubusitani bwiza cyane ndetse n'igipangu cyiza.

Umurima uhinzemo amokogi atandukanye y'ibimera, aho ibi bimera ari ingirakamaro cyane kuko iyo bihinze mu murima wawe, biguteza imbere cyane ndetse bikaguha n'umusaruro ushimishije.

Umurima uhinzemo amaterasi y'indinganire hakaba yateyemo amoko agi atandukanye y'ibihingwa, aho harimo ibirayi, bakaba bari kutwereka uburyo bwiza bifashisha imashini bari kubyuhira.

Imirima iba iri ahantu mu gishanga, ihinzwemo amoko agiye atandukanye y'ibimera, aho iyo izuba rivuye bifashisha tekinolojiya, bakagenda babyuhira bifashishije akuma kabugenewe, gatungereza kure cyane amazi akabigeraho.

Umugore wahinze amashu ahantu mu gishanga none izuba rikaba ryaravuye, yashatse uburyo yakoresha bwo kuyuhira, none yashatse umupira ari kugenda atungerezamo amazi ayamenaho kugira ngo aticwa n'izuba.

Ubuhinzi bw'imboga bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda aho muri iki gihe hari abantu basigaye bahinga barabigize umwuga, bajya kuhira bagakoresha ipombo itungereza nk'iriya hanyuma ikajya igeza amazi ku bihingwa.

Umurima uhinzemo amokogi atandukanye y'imboga, aho izi mboga ari ingirakamaro cyane, hakaba hari uburyo bwiza bwashyizweho bwo kuzuhira hifashishijwe imashini zikaraga, aho zigenda zitongerezareza hose.

Imisozi myinshi cyane igiye itandukanye iranga ya misozi igihumbi igize u Rwanda, aho hateyeho amoko menshi y'ibimera harimo ibiti, icyayi ndetse n'ibindi byinshi cyane bigiye bitandukanye.

Udusozi twiza cyane duteyemo amoko agiye atandukanye y'ibihingwa, aho ibi bihingwa ari ingenzi cyane ku buryo umuntu wese uyitayeho ibasha kumuteza imbere cyane.

Agasozi keza cyane gafite amoko agiye atandukanye y'ibiti, aho ibi biti ari ingenzi cyane ku buryo iyo umuntu abihinze mu murima we bibasha kumuteza imbere maze akaba umukungu.

Ikiyaga gikikijwe n'ibiti bigiye bitandukanye, ndetse n'imisozi, aho iki kiyaga ari cyiza cyane, ku buryo gifite n'ibirwa mo hagati. Ni byiza cyane kugitembereraho umuntu akagisura.

Ahantu mu gishanga harimo ikiyaga kigari cyane kirimo amazi menshi cyane ndetse hakaba hari n'udusozi twinshi tugiye duteyeho ibiti. Iki kiyaga rero ni cyiza cyane ku buryo kibereye ijisho.

Ubuhinzi bw'icyayi burushaho gutera imbere mu Rwanda uko bwije nuko bukeyeye, aho hari abantu babigize umwuga bahinga icyayi cyane cyane mu turere dukonja nka Ngoma, Kirehe ndetse na Ngororero.

Agasozi gahinzeho amoko agiye atandukanye y'ibiti, aho ibi biti ari ingirakamaro cyane kuko bibasha kuduhorira umwuka mwiza duhumeka ndetse no gukurura imvura.

Ubworozi bw'inka bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe hari abantu borora inka barabigize umwuga bakajya baziyitaho, baziha ibyo kurya bakanaziragira hanyuma zikabaha umusaruro nazo.

Ubworozi bw'inkoko nabwo bwateye imbere cyane mu Rwanda muri iki gihe, aho abantu basigaye bazorora bya kinyamwuga bakaziha ibyokurya bigiye bitandukanye hanyuma nazo zikazabateza imbere.

Ubworozi bw'inkoko bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe abantu basigaye bazorora barabigize umwuga, bakaziga ibyo kurya bigiye bitandukanye hanyuma nazo zikazabateza imbere.

Ubworozi bw'inka bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda aho muri iki gihe hari abantu basigaye bazahora barabigize umwuga bakazitaho uko bikwiriye hanyuma na zo zikazabaha umusaruro.

Inka ni amatungo y'ingirakamaro cyane, aho umuntu ayoroye abasha kumuteza imbere cyane, maze agakirigita ifaranga, agasezera ku bukene kubera ko aba yarabigize umwuga.

Inyubako nziza cyane yubakishije ibyuma, ikaba ifite amabara y'umweru ndetse n'icyatsi ikaba ari inyubako nziza cyane bororeramo amatungo maze akabasha kuba yatera imbere cyane.

Ahantu hahinze ibigori bikiri bito biri kumera aho hari umuntu uri kugenda abyuhira akoresheje amaboko ye, hakurya hari imirasire y'izuba iri kugenda imurasaho.

imbuto nyinshi zigiye zitandukanye ziri ahantu muri pipinyeri zikaba ziri mu bihoho, by'umweru nyirazo akaba yarazihinze ategereje ko abakiriya baza kuzigura.

Ubuhinzi bw'ibijumba bumaze gutera imbere cyane, aho ibijumba iyo bimaze kwera babikura hanyuma bakabyotsa, bakagenda babigurisha kimwe kimwe igiceri cy'ijana, kugira ngo babashe kuba bakunguka.

Umugabo wambaye ga z'umukara akaba ari gukora mu mbuto z'amageri ari kugira ngo arebe ko ari nziza cyane ku buryo zazavamo imbuto nziza, zizifashishwa mu gihembwe k'ihinga gitaha.

Muri iki gihe ntabwo biba byemewe kubaga itungo ngo uhite urirya, utabanje gutumiza veterineri wabigize umwuga, ngo aze arisuzume arebeho ko inyama zimeze neza, hanyuma mubone kurirya.

Ubworozi bw'inka bumaze gufata intera muri iyi minsi, aho hasigaye hari abantu borora inka babigize umwuga. Umunsi umwe bakazihuriza hamwe bagatumiza veterineri akagenda aza kuzivura indwara zigiye zitandukanye.

Abantu bagiye batandukanye bize ibijyanye n'ubuvuzi bw'amatungo, bakaba bicaye mu nyubako yabugenewe aho bari kugenda bakora imirimo yabo igiye itandukanye yo kwita ku buvuzi bw'amatungo.

Imbwa ni zimwe mu nyamaswa zirinda urugo. Zikunze kuba zizi kwiruka ndetse no kumaka cyane, zikaba ziri ahantu hamwe mu busitani, zikaba ari imbwa zigera muri enye.

Muri iki gihe ubuvuzi bw'amatungo bumaze gutera imbere cyane, aho itungo ryose rigize ikibazo barijyana ahabugenewe, bakaba baribaga, bakarivura maze rigasubirana ubuzima.

Umugabo wambaye isarubeti na bote z'umweru akaba ari veterineri, ari imbere y'ikiraro cy'inka aho ari kugenda asuzuma inka ngo arebe ko nta kibazo zifite hanyuma abone kuzitaho zimererwe neza cyane.

Ubworozi bw'inkoko bukomeje gutezwa imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe hari abantu basigaye borora inkoko barabigize umwuga, bakaziha ibyo kurya byose kugira ngo zizabashe gutanga umusaruro uhagije.

Imbwa nyinshi ziri kugenda ziruka mu muhanda wa kaburimbo, aho zimwe zasamye izindi na zo zikaba ziri kuzirukaho, bigaragara ko ari inyamaswa z'ishyamba ku buryo ziramutse zihuye n'umuntu zahita zimurya.

Muri parike y'igihugu y'u Rwanda y'Akagera, haba harimo amoko menshi agiye atandukanye y'inyamaswa, aho haba harimo nyinshi z'inkazi, aho muri izo twavugamo: inzovu, imbogo, intare, ingwe ndetse n'imvubu.

Mu gishanga haba habamo amoko menshi y'inyamaswa z'ibiguruka zigiye zitandukanye, hari izizwi nk'imisambi aho ziba ari ndende cyane zifite n'amajosi zizi no kuguruka, ziba zifite ishusho ijya kumera nk'iy'imbata.

Ingwe ni imwe mu nyamaswa z'inkare, aho ikunda kugira amaso manini cyane ndetse ikagira n'umujinya, ikaba izikurira ibiti ndetse no kwibuka cyane, ku buryo nta nyamaswa yapfa kuyicika.

Muri parike haba harimo inyamaswa zigiye zitandukanye, aho harimo inyamaswa yitwa imparage, iba iri mu mabara y'umweru ndetse n'umukara, ikaba ikunda kwirira ibyatsi ndetse ikagira n'amahoro.

Ingwe ni zimwe mu nyamaswa z'inkazi kandi zigira amahane cyane, ku buryo iba izi kwiruka cyane no gusimbuka ndetse no kurira ibiti, ikabasha no kunyaruka.

Ingwe ni imwe mu nyamaswa z'inkazi cyane, zikunze kuba ziri ahantu mu ishyamba, zikaba zizikurira ibiti ndetse zikaba ziniyenza cyane, ku buryo inyamaswa yose iyikinishije, ihita iyirukaho.

Imbata n amwe mu matungo akunze kuba ari ahantu mu rugo ndetse, iyo imvura iyatwaye, ajya kwibera mu gishanga agahinduka ibishuhe.

Twiga ni inyamaswa zijya kumera nk'ingwe neza neza, aho ziba zizi kwiruka cyane ndetse no kurira ibiti, zikunze kuba zibereye ahantu mu ishyamba rya parike.

Muri parike y'igihugu y'u Rwanda y'Akagera haba harimo amoko menshi agiye atandukanya y'nyamaswa, aho haba harimo imparage ziba zirisha ibyatsi ziri mu mabara y'umweru ndetse n'umukara.